Ni umwana mutoya w'umwirabura ufite imisatsi wambaye imyenda idozwe mu bitenge by'amabara atandukanye, uri gukubita icupa ku rukuta ririmo amazi atuzuye y'igice.

Ni abana babiri b'abirabura bambaye imyenda y'amabara atandukanye; umutuku, icyatsi kibisi. Basutamye bari gukaraba amazi aturutse mu mugezi w'igitembo.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga n'agapfukamunwa n'ikindi kintu cy'ubwirinzi, ufite tabuleti ari kubwira umusaza wambaye akagofero k'umweru.

N'abantu benshi harimo abahagaze n'abicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye n'amataburiya yumweru nudukarita tw'umweru dufite imigozi yubururu.

Ni abantu batanu bahagaze barimo abagabo bane n'umugore umwe w'umuzungu, abandi ari abirabura bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Umugore w'umwirabura w'umusatsi mukeya wambaye agapfukamunwa, umupira w'ubururu, igitenge cy'umuhondo uri gukarabya umwana w'umuhungu mutoya wambaye impuzankano ya kaki.

Ni umugore uri gufata ifoto yishimye, yambaye igitenge cy'amabara atandukanye, ubururu, icyatsi n'umuhondo, yifashe mu mayunguyungu ahagaze imbere y'abandi bari ku murongo.

Ni umugabo uryamye iruhande rw'imashini zifite imigozi myinshi mu nyubako yo kwa muganga ukikijwe n'abaganga benshi bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse n'udupfukamunwa.

Ni abantu bane b'abirabura, umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru uri gutera urushinge akana kari kumwe n'umubyeyi, ameza ateretseho ikarito y'umuhondo yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni abantu cumi na bane, harimo abagore icumi n'abagabo bane, bari gufata ifoto bahagaze imbere y'icyapa gifite amabara y'ubururu, handitseho amagambo menshi, harimo twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Ni abantu benshi bicaye mu nyubako irimo parafo y'umweru biganjemo abambaye imyenda y'ubururu bafite inyigisho bari guhabwa.

Ni umwana w'umwirabura uri gufata ifoto asutamye, ari gukarabira ku mugezi uteretseho injerekani z'ubururu n'iz'umuhondo ariko zitari kuvomerwa.

Ni abana birarabura bahagaze bari kurwanira ikintu runaka, bambaye imyenda ivanze, harimo iya kake, umutuku, ubururu.

Ni abantu bavanzemo abirabura, abazungu, abagore n'abagabo, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu kirimo amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza.

Ni abantu benshi, harimo abahagaze n'abicaye bambaye imyenda itandukanye abagabo n'abagore, inyuma yabo hari icyapa kiriho umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'amagambo atagaragara.

Ni abantu b'abirabura benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, ubururu, umweru, harimo n'abahetse abana, bari ku nyubako yo kwa muganga bategereje ubuvuzi.

Ni abana umunani bahagaze iruhande rw'ivomero n'injerekan z'umuhondo n'iz'umweru ntoya, harimo umwe uri kuvoma n'undi umwe wicaye, abandi bahagaze basa nk'aho bafite ikintu barangariye.

Ni umumama w'umwirabura uri kumwe n'umwana bicaye, umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite igikoresho cyifashishwa kugirango barebe ko imitima y'abarwayi itera ari kureba umwana.

Ni abagabo b'abirabura batatu, bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse n'umweru n'udupfukamunwa bateruye amakarito y'imiti ariho amabara y'umutuku.

Ni abantu benshi bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hejuru umweru, ingofero n'ibitambaro, bari kubwirwa imbwirwaruhame.

Ni umubyeyi w'umugore uhetse umwana yunamye ariko koza ibikoresho by'umuhondo, ubururu, n'umutuku imbere y'ivomero iruhande rwe hari ibimera bitandukanye.

Ni abantu batatu b'abirabura, umwe ni umugore wambaye igitenge cy'amabara atandukanye, wikoreye injerekani y'umuhondo, umupfundikizo w'umutuku, ku ruhande hahagaze umwana mutoya, wambaye impuzankano y'ubururu.

Ni abantu benshi bambaye amataburya y'ubururu bavanzemo abirabura n'abazungu bahagaze imbere y'inyubako yo kwa muganga, bishimiye umuntu ubahagaze imbere wambaye imyenda y'umukara.

Ni ifoto y'umugore w'umwirabura wambaye agapfukamuwa, ingofero y'igitenge cy'amabara y'umuhondo n'ubururu, ari imbere y'imashini yo kwa muganga iriho insinga nyinshi.

Ni abantu benshi b'abirabura, bambaye imyenda itandukanye, bahagaze mu buryo bw'akavuyo, iruhande rw'itente y'umweru, bategereje serivise ziri gutangwa.

Ni abantu bakuru b'abirabura bafashe ifoto, bari kugaburira abana batoya, bicaye bambaye imipira y'umuhondo, inyuma yaho hari abandi bahagaze bari ku murongo.

Ni umuhungu w'umwirabura wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umuhondo na rinete, afite isahane iriho ibiryo ari kugaburira akana gatoya gateruwe na nyina wambaye umupira w'umuhondo.

Ni abantu benshi bicaye bambaye amataburiya y'ubururu n'ibitenge by'amabara atandukanye, bafite ibitabo bari gusoma basobanurirwa.

Ni umusaza w'umwirabura wambaye umupira w'umweru ukuze, ikote ry'umukara ku rutugu, ari gupimwa uko umuvuduko w'amaraso umeze afashijwe n'umubyeyi uhagaze iruhande rwe.

Ni umugabo wirabura uri guseka wicaye ku njerekani y'umuhondo, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati ya karokaro, iruhande rw'ivomero, inyuma ye hari umukingo uriho ibyatsi birebire.

Ni abantu b'abirabura batatu bambaye imyenda itandukanye bicaye, inyuma ya bo hari icyapa cy'ubururu kirimo amagambo y'umweru, ari mu rurimi rw'icyongereza bari gutanga imbwirwaruhame.

Ni igipapuro kiriho amagambo, ari mu ibara ry'umukara n'ubururu n'icyatsi kibisi, atagaragara neza, ari gutanga ubutumwa ku bijyanye n'ubuzima.

Ni umugore w'umwirabura wambaye ijiri ya kake, umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, usutamye, ari kugaburira abana batoya bicaye hasi.

Ni umusore w'umwirabura wambaye amarinete umupira w'umuhondo wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru wunamye avugisha umwana utewe na nyina wambaye igitenge.

Ni abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inyubako bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bafite imashini bicaye kumeza abandi bahagaze iruhande.

Ni abana benshi b'abirabura, bahagaze bazamuye ikiganza, bambaye impuzankano y'umuhondo n'icyatsi kibisi, imbere y'abazungu n'abandi bantu bakuru.

Ni umuganga w'umudamu wirabura, wambaye itaburiya y'ubururu n'igitenge, ufite igitabo cy'imfashanyigisho, uri kumwe n'umuhungu n'umukobwa, ari kubasobanurira ku bintu bijyanye n'ubuzima.

Umukobwa wambaye imyenda y'ubururu n'ishati y'umweru, uhagaze imbere y'inyubako anakaraba akoresheje kandidagirukarabe.

Ni abantu benshi barimo abagore n'abagabo, abazungu, abirabura n'umushinwa, bicaye ku meza iriho amakayi n'amazi, bari kumva imbwirwaruhame.

Ni abantu batanu bahagaze bafite ibyapa by'ubururu, bambaye inkweto z'umukara n'ipantaro, umupira w'ubururu n'icyapa cyanditseho amagambo y'ururimi rw'icyongereza.

Ni ifoto y'abana bambaye imyenda ya kake, umweru, bari kuvoma bakoresheje utujerekani duto bafashijwe n'umukobwa mukuru uri kubapompera amazi.

Ni abantu bahagaze mu nyubako yo kwa muganga bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye harimo n'uwitaburiya, hejuru yabo ku gikuta hariho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umutuku.

Ni abantu batanu b'abagore bahagaze iruhande rw'ivomero ririho amajerekani, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, umutuku, umuhondo, umukara, barindiriye kuvoma.

Ni umwana w'umukobwa usutse imisatsi, wambaye imyenda ikoze mu bitenge by'amabara y'umutuku, wunamye ari gukaraba ku mugezi amazi asimbukira mu ibase y'umukara.

Ni umuntu wiraburara uri gukaraba amazi ateretse ku kabaho ari mu gikoresho cy'ubururu n'isabune y'umweru.

Ni ibimodoka bya rukururana bibiri biri mu muhanda biriho icyapa cy'umweru cyandikijeho amagambo ari mu mpine n'ikirangantego cy'ubururu.

Ni abadamu batatu bunamye bambaye imyenda yo mu mabara atandukanye, babiri bari kuvoma ku ivomero ryanditseho amagambo ari mu rurimi rww'icyongereza uwundi ahagaze hejuru yabo.

Ni abantu batatu bahagaze babiri bari kuvoma mu ivomero n'amajerekani y'umuhondo, uwundi ahagaze hejuru y'ivomero yambaye ijiri n'umupira w'umweru, abandi bamureba.

Ni abantu benshi biganjemo abagore bambaye ibitenge bitandukanye birabura n'imipira ya oranje, bifotoje bahagaze.

Ni abana babiri bari kuvoma umwe ahagaze hejuru y'iriba undi munsi, hari abandi bana bari ku ruhande bari kugenda ariko babarangariye bari kubareba b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu na kake.

Ni abagore batatu b'abirabura, bambaye impuzankano z'umweru, bicaye ku meza n'intebe, bari kwandika mu bitabo binini by'amakaye.

Ni umuntu w'umwirabura wambaye ishati y'ubururu, uri gukaraba amazi meza ari kuva mu mugezi utereye ku gikuta menshi cyane ariko ameneka hasi ntakintu ari kugwamo.

Ni abantu benshi birabura n'umuzungu umwe biganjemo abambaye imyenda y'umweru, bari gufata ifoto, harimo abasutamye n'abahagaze imbere y'icyapa gifite amabara y'umweru, umutuku n'icyatsi.

Ni abantu bahagaze bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo abirabura, abagore, n'abagabo n'abazungu bahagaze iruhande rw'idalapo ry'igihugu cy'u Rwanda, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu kirimo amagambo atagaragara neza.

Ni umukobwa uri imbere y'inyubako wunamye yambaye ingofero n'igitenge ari guseka akaraba akoresheje kandagirukarabe y'akajarekani k'umweru n'ibiti.

Ni magambo ari mu ibara ry'umukara mu rurimi rw'Icyongereza, ku ruhande rwayo hari akamenyetso karimo umurongo uvunaguye n'uw'uruziga ariko rutuzuye.

Ni abantu babiri birabura umugabo ukoreye umwana injerekani y'umuhondo iriho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, yandikishijeho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza y'umweru.

Ni abantu batatu abagore babiri bambaye ibitenge harimo ik'icyatsi bari guterura uwo mufuka wanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Ni abantu birabura bambaye imipira ivanze amabara higanjemo ubururu, bafite igikarita gikasemo hagati. Cyanditseho amagambo acuritse.

Ni igikorwa remezo cyubatse, kizengurutse, cyifashishwa mu kuyungurura amazi, gifata amabi, kikayahindura ameza, cyifashishije imashini.

Ni ababyeyi babiri b'abirabura, umwe wambaye itaburiya y'umweru, ari guha umuti akana gatoya gakikiwe n'undi wambaye ibitenge bisanzwe.

Ni abagore batatu bambaye ibitenge by'amabara atandukanye. Umwe arimo kudaha amazi akoresheje indobo uwundi ari kuyapompa ayazamura mu mugihe uwundi ameze nk'uri gukina kuruhande.

Ni abantu bicaye ku meza bambaye imyenda itandukanye bafite imashini n'amazi yo kunywa ari mu icupa ry'ubururu n'umweru.

Ni abana b'abirabura bahagaze imbere y'inyubako y'amatafari n'idirishya, bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni umwana w'umukobwa w'umwirabura mutoya, wunamye ari kunnywa amazi aturutse mu gitembo, inyuma ye hari abandi bahagaze ku murongo bambaye imyenda itandukanye.

Ni umwana w'umwirabura, wunamye, yambaye ikanzu y'amabara atandukanye, umukara n'umweru, uri kogereza indobo ku kumugezi ziri ku murongo ari eshatu.

Ni umugore w'umwirabura witandiye, uteruye akana kambaye imyenda yo mu bururu bwerurutse uri kurebwa n'umusore, ari kumushyiraho agapapuro kagaragaza ko bamaze kumukingira.

N iumwana w'umukobwa w'umunyeshuri, wicaye mu ntebe ari kurya, yambaye impuzankano y'ishati y'umweru, n'ijipo y'ubururu, ari guseka.

Ni umugabo w'umwirabura uhambiriye mu cyumba kitabona neza, aziritse amaguru aricaye yambaye umupira urimo amabara yubururu n'umweru.

Ni umugore wambaye ikanzu idoze mu gitenge, mu mabara atandukanye, ufite indangururamajwi n'amazi imbereye, uri kuvuga ku bintu bijyanye n'ubwonko.

Ni abantu bicaye mu dutebe tw'umweru batandukanye harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'amabara y'ubururu, umutuku iruhande rwabo hateretse ikimodoka kirekire cy'igifoso...

Ni umuntu wirabura wambaye inkweto z'umukara ipantaro y'icyatsi n'umupira w'umutuku, wicaye iruhande rw'inzu ameze nk'uwihebye ariko areba umuntu uri kumufotora.

Ni ifoto y'umwana w'umuhungu w'umwirabura, wicaye mu cyumba gifunze yambaye ubusa buri buri afunze ibirenge yihebye ababaye.

Ni umugabo w'umwirabura, wambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'umweru, wicaye yashungerewe n'abantu benshi, afungishijwe amapingu, bamujugunyeho amafoto y'abantu batandukanye.

Ni abantu benshi bahagaze biganjemo urubyiruko rwambaye imipira y'ubururu bwerurutse buriho amagambo atagaragara n'umuzungu ku ruhande wambaye imyenda isanzwe.

Ni umugore w'umwirabura, wambaye ingofero y'umukara, ufite agatambaro k'umweru yipfukishije mu maso, ari kurira, ubabaye cyane.

Ni umuhungu w'umusore wishimye uri kumwenyura ufite ubwanwa, umusatsi mukeya, umupira w'umuhondo, yafotowe igice cyo hejuru cy'umutwe n'igituza.

Ni umugabo w'umuzungu uhagaze yambaye ipantaro ya kage, ishati irimo amabara y'ubururu n'umweru, uri imbere y'icyapa kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ni ikarita iriho ifoto y'umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yambaye rinete, imyendarimo ibara ry'icyatsi yijimye, ahagaze ari gutanga imbwirwaruhame ku ruhande hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umutuku.

Ni umugore mukuru wambaye imyenda y'umukara n'amaherena wicaye ku ntebe ari kuganiriza umwana w'umukobwa w'umwangavu, ufite mu ntoki agasimba ari gusobanura.

N i abantu bahagaze bari kubyina bambaye imyenda ifite amabara atandukanye y'umutuku, ubururu, icyatsi kibisi, harimo abagabo n'abagore bafite amakarita y'umweru n'imigozi y'ubururu.

Ni umuntu w'umwirabura wicaye yambaye umupira w'umukara, yipfukishije mu maso ibiganza, inyuma y'igikuta kiriho ibintu bimanitse hejuru ku gati.

Ni inyubako isakaye yuzuye isize irangi ry'umuhondo, hejuru hariho icyapa cy'umweru kirimo ikirangantego n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu atagaragara neza.

Ni ifoto y'umugabo mukuru wirabura, wambaye impuzankano y'abana bato y'umweru n'imisatsi mu mutwe, udafite amenyo ariko wishimye n'inyuma ye hari abandi bambaye nka we.

Ni abantu cumi na bane, harimo abagore bane, abagabo icumi, bari gufata ifoto bahagaze imbere y'inyubako, bagaragaza n'icyapa cyanditseho Acebuilding and Social Justice Organization.

Ni abantu b'abirabura bambaye imyenda itandukanye, abagabo n'abagore bahagaze bafite icyapa cy'amabara y'umweru ubururu n'icyatsi kibisi, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa.

Ni amagambo ari muru rurimi rw'Icyongereza ari mu mabara y'ubururu, umuhondo n'umukara; ahagaze neza n'atambitse.

Ni icyapa kigaragaza ibirangantego bitandukanye icy'igihugu cy'u Rwanda, icya Polisi y'igihugu, Yunisefu Nayefemo n'amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'Icyongereza.

Ni abana b'abirabura bavanzemo abahungu n'abakobwa, bamanitse ibiganza, abandi bari kumwenyura, bambaye impuzankano zisa, iz'ubururu harimo n'iz'ikaki.

Ni abantu b'abirabura bari gufata ifoto bahagaze, barimo abagabo n'abagore, abambaye rinete n'abatazambaye, inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru mu rurimi rw'icyongereza.

Ni ifoto iriho amagambo ari mu rururimi rw'icyongereza, yavuzwe n'umuntu witwa Uwihoreye, ku ruhande hari umugabo w'umwirabura ufite mikoro.

Ni umukobwa wirabura wicaye mu ntebe ya shokora yambaye ishanete, isengeri y'umukara n'ipantaro y'ubururu ari guseka cyane.

Ni umwana w'umwirabura, wikoreye amaboko uri kurira, wambaye agapira k'umweru, inyuma ye hari abandi bantu bari gukora imirimo itandukanye batamwitayeho.

Ni abantu batandukanye b'abirabura, abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'amabara y'ubururu n'umuhondo n'umukara, bari kumva imbwirwaruhame y'umugore ubahagaze imbere.

Ni ifoto igaragaza abantu bari mu bikorwa bitandukanye harimo aba gutera ibihingwa, abahagaze imbere y'inyubako, n'abandi benshi bari kwifotoza bafite icyapa kiriho amagambo atagaragara.

Ni ifoto y'abantu benshi barimo abagore n'abagabo, abapolisi n'abandi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bahagaze imbere y'igikuta cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ni abantu bambaye imyenda itandukanye, higanjemo icyatsi kibisi n'abapolisi bafite icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Ni umusore wirabura, ufite ubwanwa uri kumwenyura, afashe kagozi ashaka kunyuza mu menyo.

Ni umugabo w'umwirabura wasamye agaramye, yambaye umupira w'icyatsi cyerurutse, uri gufashwa kureba ikibazo cy'amenyoye n'umuntu wambaye itabuririya y'umweru, na karuvati, n'agapfukamunwa.

Ni inyubako yo kwa muganga isize irangi ry'umweru, harimo imitako intebe zo kwicaraho imashini zifashishwa n'urukarabiro ruzana amazi.

Ni umusore wirabura wambaye umupira w'umweru, uri kunyuza akantu k'akagozi hagati y'amenyo ye, uri guseka.

Ni umusore w'umwirabura wicaye mu nyubako yo kwa muganga, ufite agatambaro k'umweru mu gatuza, umeze nk'ugiye gukorerwa isuzumabumenyi kujyanye n'amenyo.

Ni umwana w'umwirabura w'inzobe, imisatsi mikeya, wasamye, uri gusuzumwa n'umuntu mukuru w'amaga y'icyatsi kibisi.

Ni abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano y'ubururu, bafite uburoso bw'amabara atandukanye; umuhondo, icyatsi, uri imbere ari kubwerekana.

Ni umukobwa wambaye umupira w'umweru ahagaze mu ndorerwamo ari kwiboroshesha uburoso busa umwe n'umutuku yifashe mu nda ari kumwenyura aseka.

Ni umwana w'umuhungu uri kumwenyura wasamye, ugiye kuvurwa n'umuforomo wambaye impuzankano y'ubururu n'amaga, yifashishije utwuma dukura amenyo.

Ni abantu batandatu bahagaze mu ishuri, uwambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, ari kwereka umwana uko amenyo y'umuntu aba ameze.

Ni umwana w'umukobwa wirabura wambaye ishati y'umweru, uri kuborosa yishimye amwenyura, akoresheje uburoso bufite amabara y'ubururu n'umuhondo.

Ni abantu b'abirabura havanzemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, higanjemo icyatsi kibisi, bicaye ku meza bafite ibyo bari kwiganaho bigendanye n'imiti y'amenyo.

Ni abantu babiri b'abirabura umusore n'umukobwa, bari kwirebera mu ndorerwamo, bambaye imipira y'umweru, bafite akantu k'akagozi bari kunyuza mu menyo.

Ni umukobwa w'umwirabura, ufite ibisuko by'umukara n'amaherena wasamye ari gukurwa iryinyo n'umunasi wambaye impuzankano y'ubururu bwererutse.

Ni imashini iri mu cyumba k'inyubako yo kwa muganga, yifashishwa mu gukura amenyo abarwayi bayarwaye n'intebe ku ruhande yo kwicaraho.

Ni umugabo w'umwirabura uri kumwenyura, ufite ubwanwa n'akagozi k'umweru mu ntoki ari gushaka kunyuza mu menyo, n'agasume ku rutugu.

Ni umugore w'umwirabura wambaye isengeri y'umweru, ufite akadodo ari gucisha mu menyo ariko akanyaraye mu maso nk'uri kubabara.

ibintu nk'ibi bikunze kugaragara mu gihe cy'ibibazo by'ubuzima nka covid cumi n'icyenda ebola cyangwa izindi ndwara zandura cyane mu cyaro cyangwa mu mijyi mike kugenzura ubushyuhe bifasha kumenya buba abantu bashobora kugira umuriro ikimenyetso rusange cy'indwara nyinshi

Ni abantu babiri bahagaze bambaye imyenda y'ubururu n'umukara, umukobwa ari gukoresha imyitozo ngororamubiri y'amaguru umusaza ufite imisatsi y'umweru n'ubwanwa.

Ni abantu babiri bambaye imyenda y'amabara atandukanye, umugabo aricaye ari guhabwa imiti n'umugore uhagaze n'imashini imbere yabo ikirahure kirimo amazi.

Ni umuntu wicaye, wirabura, wambaye ishati irimo amabara y'ubururu, umweru na kake, ari gukina imikino yifashishije utuzogera tw'umukara.

Ni umugabo w'umwirabura wambaye umupira, ikabutura ya kacye n'inkweto z'umukara n'amasogisi, uri gukina n'umwana mutoya w'umukobwa, ufite baro bakoresha bakina.

Ni abantu b'abirabura bahagaze bateye amaboko hejuru mu murima urimo ibihingwa by'icyatsi kibisi, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, umweru, umutuku, umuhondo n'umukara.

Ni abadamu babiri bahagaze uw'inzobe wambaye imyenda y'abaforomokazi ari gukoresha imyitozo ngororamubiri uwundi wirabura.

Ni abantu babiri b'abirabura, umwe ukuze w'ubwanwa bw'umweru, ari gukurura akagozi k'umuhondo akururana n'undi.

Ni umugore mukuru w'umwirabura usutse imisatsi, uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye mu busitani harimo uturabo tw'umweru n'icyatsi kibisi, yunamye ashaka gukoza umutwe ku mavi.

Ni i umukecuru w'umwirabura wambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, ateze igitambaro, atekeye mu gihuru ku nkwi no mu masafueiya asa nabi.

Ni abantu babiri bakuze b'abirabura, umugore n'umugabo bambaye imyenda itandukanye, amashati y'ubururu n'umutuku bari gufata amafunguro yiganjemo imboga.

Ni abamama babiri b'abirabura bicaye bambaye imipira w'umweru n'uw'ubururu. Umwe arimo arakata amashu, iruhande rwe hateretse inyanya na karoti uwundi ari kumuganiriza afite ikindi kintu kirimo amazi.

Ni abagore babiri bambaye imyenda y'amabara atandukanye, umwe umupira undi isengeri, bari gukora imyitozo ngororamubiri barambuye amaboko bareba hejuru.

Ni abantu bakuru b'abirabura, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye: ubururu, umutuku, umugabo afite umuti ari gusoma ku gapapuro kawanditseho imbere yabo hateretse uducupa turimo ibinini.

Ni umubyeyi w'umwirabura wambaye rinete z'umukara n'ishati y'umuhondo, uri gufata imiti iri mu icupa ry'umweru n'agapfundikizo k'icyatsi kibisi yicaye.

Ni abantu bakuru babiri b'imisatsi y'umweru bambaye imipira y'umutuku bunamye, umugabo ari gufungura ibinini, ku ruhande rwabo hateretse rinete n'agakombe k'amazi.

N'umugore w'umwirabura wambaye agapira kumuhondo wimisatsi iboshye, ufite agapapuro ari gusomera umusaza umwicaye imbere w'amarinete n'ibinini kumeza n'amazi ari mu kirahure.

Ni umuganga w'umugore ufite imisatsi myinshi wambaye itaburiya y'umweru, uri kureba uko umuvuduko w'umusaza wirabura uhagaze akoresheje imashini yabugenewe.

Ni umuforomo wambaye impuzankano z'ubururu muto muto ufashe mukiganza umukecuru wirabura ufite imisatsi y'umweru wambaye rinete ziriho akantu kumuhondo.

Ni umugore w'umwirabura ukuze wicaye ufite akagozi mu ntoki yazamuye hejuru, uri gufashwa n'umuzungu mutoya wambaye imyenda y'ababaforomo umwitayeho.

Ni abantu benshi harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye harimo abicaye hasi n'abicaye mu ntebe z'umweru bose bakaba bari munsi y'igiti.

Ni ifoto y'umuryango w'abantu b'abirabura batandatu umusaza n'umukecuru n'akana gatoya kari hagati, bambaye imyenda y'amabara atandukanye.

Ni abagore b'abirabura babiri, umwe mukuru w'imisatsi y'umweru, wambaye umupira w'umukara, uri gufashwa kuzamura akuma bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Ni umugore w'umwirabura mukuru w'imisatsi y'umweru uri gukora imyitozo ngororamubiri, aryamye ku gatapi k'ubururu mu cyumba cy'umweru.

Ni abantu babiri b'abirabura bakuze, b'imvi z'umweru, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bicaye bari gukina imikino, bakoresheje utwuma twabugenewe.

Ni umugabo w'umwirabura uri mucyumba cyo kwa muganga wicaye ku ntebe y'umukara wambaye amaritte n'itaburiya uri kwandika ibintu ,akoresheje ikaramu y'ubururu.

Ni abantu babiri bambaye imyenda itandukanye umwe afite igikapu, uwundi ari kugenda n'amaguru akoresheje akagare kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni umugabo w'umwirabura w'imisatsi y'umweru mukuru uteruye akana gatoya gafite igikinisho cya kake n'umweru, bahuje amazuru ari gukina.

Ni abantu babiri bakuze, umwe afite imisatsi y'umweru, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bahagaze mu gikoni kirimo ibiribwa byiganjemo imboga n'imbuto, ku ruhande hari amazi.

Ni abantu b'abirabura bakuru bavanzemo abagore n'abagabo bashaje b'imisatsi y'umweru, bambaye imyenda y'amabara atandukanye ubururu, umweru, umukara, icyatsi kibisi, bicaye hasi bari kuganira.

Ni umuganga w'umuforomokazi w'umuzungu, wambaye imyenda y'ubururu, uri gufasha umugabo w'umwirabura w'ubwanwa bw'umweru, bakoresheje akuma kifashishwa mu kugenda.

Ni ababyeyi babiri, b'abirabura, bakuze, bafite imisatsi y'umweru, bambaye imipira y'umutuku n'iy'ubururu, bari kunywa imiti, umwe arikwereka undi agapapuro.

Ni umuforomokazi w'umwirabura wambaye agapfukamunwa, impuzankano y'umutuku, akuma mu gituza kifashishwa mu kurera umutima w'umuntu uko uhagaze, ari gupima umubyeyi wambaye igitenge yicaye.

N' umugabo wambaye imyenda Isa ya kacye na linete ahagaze imbere y'icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza arivuga imbwirwaruhame.

Ni abantu batandatu, harimo abagabo batatu n'abagore batatu, bahagaze bari gufata ifoto imbere y'icyapa cy'ubururu, gishushanyijeho ibihangantego biri mu mabara y'umweru, by'igihugu cy'u Rwanda.

Ni abantu bifotoje bahagaze iruhande rw'icyapa cy'ubururu kiriho amagambo y'umweru atagaragara neza.

Ni icyapa kiriho amafoto atanu, abagabo babiri b'abazungu n'abagore batatu b'abirabura, hejuru yabo handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu mabara atandukanye.

Ni ifoto yariy'ikimenyetso cya sida hari n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari mu imbara ry'icyatsi hariho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda n'andi magambo ari mu mpine.

Ni abantu benshi bari mu muhanda birukanka bambaye imyenda itandukanye cyane cyane yiganjemo iy'umweru, bafite ibyapa biriho amagambo agaragaza ko bari kwamagana kanseri y'ibere.

Ni abamama b'abirabura bane bose bateruye abana, bicaye ku ntebe inyuma yabo hari ibipapuro bigaragaza ko bari kwa muganga, biriho amagambo atandukanye.

Ni abaganga batanu bari gufasha umuntu uryamye kuri burirangari y'ubururu, batatu muri bo bambaye amajire y'icyatsi, abandi babiri ni amatabuririya y'umweru.

Ni abantu barindwi barimo abagabo n'abagore, abazungu n'abirabura, bari gufata ifoto bahagaz,e bambaye imyenda y'amabara atandukanye amakarita mu gatuza.

Ni abantu bari gufata ifoto b'abirabura barimo abakobwa n'abahungu, abicaye n'abahagaze. Bafite impapuro ziriho amagambo atagaragara neza bambaye imyenda itandukanye.

Ni inyandiko iriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, asa icyatsi kibisi, ku ruhande hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, munsi harimo imibare.

N'umugabo w'umwirabura mukuru w'imisatsi y'umweru yambaye imyenda y'umukara, uritanga imbwirwaruhame inyuma ye hari icyapa hiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni ikarita iri mu ibara ry'umweru, iriho ikimenyetso cy'itara n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yanditse ku murongo, hasi hariho utuziga tw'ibindi bintu.

Ni umugabo w'umuzungu uhagaze imbere y'inyubako y'umukara wambaye amarinete n'ingofero n'umupira ufite urupapuro rwanditseho amagambo y'icyongereza.

Ni rupapuro rw'umweru ruriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza asa icyatsi kibisi, ubururu n'umukara, hariho n'umugabo wambaye ishati y'ubururu uri guseka.

Ni abantu batandatu bambaye imyenda y'ubwirinzi y'umweru na ga n'udupfukamunwa tw'ubururu, inyuma yabo hari undi wambaye imyenda isanzwe.

Ni ikarita iriho ifoto y'umugabo w'umwirabura wambaye linete, ishati y'umweru, kuruhande handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Ni amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mumabara atandukanye icyatsi umutuku umuhondo, n'ubururu harimo n'ari mu mpine.

Ni abantu benshi biganjemo urubyiruko, bari kugenda mu muhanda batanga ubutumwa bujyanye na Sida, bambaye imyenda y'amabara atandukanye yiganjemo umweru.

Nabanu bane bambaye imipira yumweru bafite udushashi twumuhondo umutuku nubururu bari kwamamaza ibijyanye n'ubuzima.

Ni abantu batanu, harimo abagore babiri n'abagabo batatu, bicaye ku ntebe umwe muri bo afite mikoro, ari gusobanurira abantu bari imbere ibintu bijyanye n'ubuzima.

Ni abantu b'abirabura bavanzemo abagabo n'abagore bicaye mucyumba kirimo intebe n'amarido ,by'umutuku bakurikiye umuntu uri kubabwira imbere.

Ni inyubako yo kwa muganga irimo imashini yifashishwa kunyuzamo abarwayi kugira ngo barebe uko bahagaze, ku ruhande hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kuyikoresha.

Ni inyubako ifasha abantu barwaye, isize irangi ry'umuhondo hejuru yayo handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Igifaransa, ifite jaride irimo indabo z'icyatsi.

Ni umugabo w'umwirabura wambaye agapfukamunwa, itaburiya y'umweru, uri gukoresha imashini yo kwa muganga mu cyumba giherereyemo ameza n'intebe.

Ni icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zitandukanye, harimo iyifashishwa kureba uko imitima y'abarwayi ihagaze, ibitanda bibiri biriho amashuka y'umweru n'iyindi mitako iri ku gikuta.

Ni inyubako y'igorofa rimwe y'ikigonderabuzima cya Nyarurenzi irimo abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye abagabo n'abagore bahetse abana.

Ni inyubako iriho ibyapa byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda, yifashishwa mu kubona imiti umuntu yakwivuza.

Ni inyubako yo kwa muganga yubakishije amatafarihiye, isakaye imbere yaho hari jaride irimo ibimera by'icyatsi kibisi birebire ni bigufi, utuyira tugenewe abanyamaguru.

Ni inyubako y'igorofa, iriho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, yifashishwa mu kubona imiti yo kwivura itandukanye, imbere y'aho haparitse imodoka.

Ni inyubako yo kwa muganga irimo imashini yifashishwa mu kureba uko abarwayi bahagaze, ifite amarido y'icyatsi kibisi, igitanda kiryahamyeho umuntu wirabura urwaye.

Ni jaride y'inyubako yo kwa muganga ifite uruzitiro rw'amatafari ahiye, irimo utwuma dufite amabara y'icyatsi n'ubururu twifashishwa n'abana kugirango bumve umunyenga.

Ni inyubako yo kwa muganga irimo ibyumba bitandukanye byinshi ifite purafo y'umweru n'uturongo tw'umukara, ifite inkingi y'ubururu n'amarido y'icyatsi kibisi n'umweru.

Ni imashini yo kwa muganga y'umweru ikoresha amashanyarazi, banyuzamo abarwayi kugira ngo barebe uko bahagaze, iruhande rwabo hateretse etajeri irimo ibikoresho bitandukanye.

Ni inyubako yo kwa muganga, isize irangi ry'umweru, irimo intebe z'umukara, zicayeho abantu b'abagore n'abagabo barindiriye serivisi zo kwivuza.

Ni umugabo wirabura, wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'umukara, wicaye munsi y'igiti kiri mu busitani bw'inyubako yo kwa muganga.

Ni inyubako y'ubuvuzi ifite igorofa isize irangi ry'umweru, ubusitani burimo ibyatsi n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, rifite ibara ry'umuhondo, umutuku n'ubururu.

Ni inyubako y'icyumba cyo kwakiriramo abantu, gisize amarangi y'umuhondo, harimo intebe z'umukara n'izubururu, na kontwari n'umuntu wirabura wambaye imyenda y'umukara.

Ni icyumba cy'inyubako yo kwa muganga, kirimo amaraso abitswe neza ku buryo bwiza, ku ruhande hari abantu bahagaze bari kuyatanga.

Ni imashini y'umweru yo kwa muganga inyuzamo abarwayi kugirango barebe uko bahagaze, ku gikuta hariho umutako ugaragaza inyanja n'isaha ku ruhande.

Ni inyubako yo kwa muganga ifite amagorofa menshi, iriho icyapa gifite amabara y'umweru n'icyatsi kibisi, hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni inyubako y'umuhondo ifite amagorofa atatu n'amadirishya y'umutuku, ihagazeho abantu bambaye imyenda y'icyatsi kibisi, imbere yayo hari imodoka ihaparitse y'umweru,...

Ni inyubako y'ubuvuzi ifite amagorofa abiri, iriho icyapa cy'umweru cyandikishije amagambo y'ururimi rw'Icyongereza y'icyatsi kibisi, imbere yaho haparitse imodoka z'umukara.

N' inyubako yo kwa muganga irimo imashini zikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri bagenda iri hanze ahantu hitegeye n'izuba.

Ni imashini y'umweru iri mu nyubako yo kwa muganga yifashishwa mu kunyuzamo abarwayi kugira ngo barebe uko bahagaze, iruhande hari etajeri irimo utuntu dutandukanye.

Ni inyubako yo kwa muganga ifite igorofa rimwe, isize irangi ry'umweru. Muri jaride yayo hari umwana w'umwirabura wicaye mu kagare kifashishwa kugenda k'amapine abiri.

Ni umuntu uhagaze imbere y'inyubako, ugiye gutera umuti wambaye imyenda y'ubwirinzi y'umweru n'agapfukamunwa inkweto zifunze z'umukara iruhande rwe hari indobo y'icyatsi n'iy'ubururu n'uburingiti bufite amabara atandukanye harimo iry'umuhondo n'iry'umutuku.

Ni inyubako yo kwa muganga, ifite amabati y'ubururu, amarangi y'umuhondo, igaragaza n'umuganga uyihagaze imbere wambaye itaburiya y'umweru, n'ipantaro y'ubururu.

Ni inyubako yo kwa muganga yubakishije amatafari, imbere yabo hari jaride irimo ibimera by'icyatsi, umutuku n'akayira kajyana ibinyabiziga n'abanyamaguru.

Ni umugabo wirabura wambaye imyenda y'umweru uri kumwenyura aseka iruhande rwe hari ibyuma bifite imigozi myinshi.

Ni inyubako yo kwa muganga iririmo abagore batatu, abirabura babiri n'undi w'umuzungu. Umwe aricaye yambaye itaburiya afite akuma kifashishwa mu kureba uko umutima w'umurwayi uri gutera, ari kubwira undi wicaye ku ruhande.

N'inyubako yo kwa muganga, irimo agatanda bifashisha baryamishijeho umurwayi, inyuma hariho agasanduku k'umuhondo, aka etajeri naho bakarabira.

Ni abantu b'abirabura barimo abagore n'abagabo bicaye mu cyumba cyo kwa muganga, bari ku murongo bambaye imipira idasa ariko imeze kimwe.

Ni inyubako yo kwa muganga ifite amagorofa iriho icyapa kiriho ibirangantego bibiri n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni abaganga bambaye imyenda y'ubwirinzi y'umweru n'ubururu n'udupfukamunwa, inkweto z'umweru bari mu cyumba kirimo amarido y'ubururu, supanete y'umweru, intebe z'umukara, n'abarwayi baryamye ku bitanda birenze bibiri.

Ni abagore babiri b'abirabura, umwe w'umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu, amarinete n'akuma kifashishwa mu kumumenya uko umurwayi ameze, uwundi ateruye uruhinja.

Ni umugabo ubyibushye w'umwirabura wambaye agapfukamunwa umupira w'umukara n'ikabutura ya kake uryamye mu gatanda, ucometseho imashini nyinshi zitandukanye n'amajerekani kuruhande.

N'inyubako yo kwa muganga y'ibitaro ivura abantu batandukanye, imbere yaho hari amadapo y'ibihugu bitandukanye, iry'u Rwanda riri mu ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

N'inyubako yo kwa muganga ihagazeho abantu barindwi, bambaye imyenda yo mu mabara atandukanye, udupfukamunwa. Bari gufata ifoto basiganyemo intera.

Ni inyubako yo kwa muganga yifashishwa mu kuvura abana. Harimo agatanda gato ,akamashini kagufi gakoreshwa mu myitozo ngororamubiri y'umwana, kuruhande akabati gafite amabara atandukanye umuhondo n'umutuku.

Ni inyubako yo kwa muganga, irimo igitanda cyo kuryamaho na matera y'ubururu, umusego w'umweru, ku nkuta hariho televiziyo n'ibishushanyo by'abana.

Ni umuryango w'icyumba cy'inyubako yo kwa muganga kirimo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi, harimo, ibitanda, ameza n'intebe zo kwicaraho, ku gikuta hariho urupapuro ruriho amagambo atagaragara.

Ni inyubako ya folomasi ifite icyapa gifite amabara y'icyatsi n'ubururu n'umukara kigaragaza amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza imbere yayo hahagaze umuganga wambaye itaburiya.

Ni igikoresho cyo kwa muganga kiri mu cyumba gikeye gikoreshwa banyuzamo abarwayi kugira ngo barebe uburwayi bafite maze bahereko bamenya icyo babafasha n'uburyo babavuramo.

Ni inyubako yo kwa muganga ifite irangi ry'umweru, irimo abantu barimo abahungu n'abakobwa, bambaye amataburiya,...

Ni inyubako y'ubuvuzi ifite jaride zirimo ibihingwa byinshi by'icyatsi bifite indabo z'umutuku, akayira k'abagenzi kari kugendamo abantu batatu, babiri bakuru n'umwana muto.

Ni icyuma gisa umweru kiri mu nyubako yo kwa muganga, kifashishwa mu kureba umutwe w'umuntu uko uhagaze waba wakomeretse cyangwa hari ikibazo k'imitsi yo mu bwonko yagize.

Ni inyubako y'ikigo nderabuzima cyo kwa muganga cy'i Gisenyi cyicayeho abantu hanze bategereje ubuvuzi, kiri ku muhanda wa kaburimbo.

Ni abagore batatu bambaye impuzankano y'ubururu, udutambaro tw'umweru. Bahagaze imbere ya jarid e y'ibimera by'icyatsi kibisi.

Ni amarembo y'inyubako y'ibitaro byo kwa Nyirinkwaya, agaragaza icyapa cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'igifaransa n'andi atagaragara neza.

Ni inyubako yo kwa muganga, irimo ibyuma byifashishwa mu kubika imiti yo kwa muganga kugira ngo imare igihe kirekire, hariho utuntu tw'ubururu n'udupapuro tw'umuhondo dutandukanye turiho amagambo.

Ni inyubako yo kwa muganga y'igorofa rimwe isize ibara ry'umuhondo n'iry'umukara, ifite jaride irimo ibyatsi bigufi n'inzira z'abanyamaguru cyangwa imodoka.

Ni icyumba cy'inyubako yo kwa muganga gisize irange ry'umweru, kirimo ibitanda byeguka, amarido y'umukara, imashini zifashishwa kugira ngo barebe uko umutima w'umurwayi uri gutera.

Ni inyubako y'igorofa rinini, isize amarangi atandukanye iry'ubururu, amadirishya y'umuhondo, imbere hahagaze abantu n'imodoka ifunze.

Ni inyubako yo kwa muganga isanzwe itari igorofa yo mu Rwanda yifashishwa mu kuvura kanseri imbere yaho hahinze ibimera bitandukanye by'icyatsi n'iby'umutuku.

Ni abantu batanu b'abirabura abagore bane n'umugabo umwe, bari kwifotoza bahagaze imbere y'inyubako yo kwa muganga, iriho icyapa kiriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ni abantu benshi biganjemo abagore bicaye ku ntebe kwa muganga, bari gusobanurirwa n'umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umukara, uri kuvuga ibijyanye n'ubuzima.

Ni umuganga wicaye yambaye imyenda y'ubururu ari kurebera mu mumashini uko umugongo w'umurwayi umeze.

Ni inyubako y'ubuvuzi ifite umuryango ufunguye wanditseho amagambo avuga ngo aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ni inyubako yo kwa muganga i Kanombe ifite amarangi y'umuhondo n'umukara, ifasha abantu kubona imiti yo mu bwoko butandukanye.

Ni irembo ry'ivuriro ryo ku Kigina risize amarangi ya shokora, rihagazeho umubyeyi wirabura ufite agashora k'umweru uhetse umwana utagaragara neza.

Ni inyubako yo kwa muganga ifite amagorofa abiri, iriho icyapa kiriho amagambo mu mabara atandukanye, icyatsi, umukara n'umutuku, mu rurimi rw'Igifaransa, imbere yaho hari imbuga, yubakishije amatafari.

Ni inyubako yo kwa muganga yubakije amatafari mu buryo bwiza budasanzwe, itakishije imitako ikozwe mu duti, ifite jaride zirimo ibimera by'icyatsi kibisi, n'akayira k'abanyamaguru ,n'imodoka yanyuramo.

N'umwana w'umuhungu mutoya wambaye imyenda y'umukara uri gusunika umubyeyi mukuru mu kagare k'amapine abiri amuganisha ku nyubako ihagazeho umukobwa w'umwirabura

Ni umuryango w'inyubako yo kwa muganga ufunze, inyuma hariho ibipapuro bine n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni farumasi ifite amatajeri menshi na kontwari y'umweru n'icyatsi, harimo imiti itandukanye, iri mu dukombe n'iri mu makarito n'intebe iteretse ku ruhande y'umweru.

Ni inyubako y'ubuvuzi, isakaye, isize amarangi y'amabara atandukanye imbere hateretse intebe zo kwakiraho abantu ni icyapa cyanditseho amagambo atagaragara neza.

Ni igikuta cy'inyubako yo kwa muganga gisize irangi ry'umweru, kiriho imiryango itatu, yometseho ibipapuro biriho amagambo atagaragara, ku ruhande hari agatebe k'umukara.

Ni inyubako y'ubuvuzi ikoreshwa bari gufasha ababyeyi bagiye kubyara, isize irangi ry'umuhondo, inyuma yaho hateretseho intebe abaje gusaba serivisi bicaraho.

Ni inyubako y'ubuvuzi, ifite amagorofa abiri, isize amarangi menshi harimo umuhondo, n'umukara werurutse, mu mbuga yayo haparitse amamodoka menshi, n'abantu bayahagaze iruhande bambaye imyenda itandukanye.

Ni umukobwa uri gukora siporo yicaye kuri sima yambaye ikabutura n'isengeri by'umukara, inkweto z'umweru, n'icupa ririmo amazi riri ku ruhande yambaye n'utwuma mu matwi.

Ni umugabo w'umwirabura wicaye mu nyubako yo kwa muganga, afite mudasobwa imbere ye, ari gusoma ibintu bitandukanye, ku ruhande hateretse izindi mashini bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Ni umugabo wambaye ipantaro y'ubururu wicaye kuri matela y'umukara, uri kuzirikwa agatambaro afashishijwe n'umuzungu kuko yari yavunitse.

Ni abantu babiri umwe w'umugabo wicaye ari kunywa amazi, yambaye imyenda y'umukara n'igikapu hagati y'amaguru, ku ruhande hahagaze undi mugore we uri gukora siporo.

Ni abantu bane bakuru bambaye udupfukamunwa, umwe muribo w'umugabo yicaye mu ntebe y'umukara ari kureba mu kanwa k'umwana mutoya wambaye umupira w'ubururu.

Ni ifoto y'igikapu cy'umutuku, kirimo imiti itandukanye iri mu icupa mu ikarito y'amabara y'umweru handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza n'imikasi mu mifuka yo ku ruhande.

Ni abana batoya bari mu kigero cy'imyaka itandukanye bambaye imyenda y'amabara atari amwe, bari gukora imyitozo ngororamubiri bahagaze mu mbuga y'inyubako runaka.

Ni umugabo w'umwirabura uri gukora imyitozo ngororamubiri asutamye, yambaye ipantaro n'umupira by'umukara afashijwe n'umuzungu uhagaze imbere ye.

Nabantu babiri umuzungu n'umwirabura uri gukora imyitozo ngororamubiri afite utuntu tubiri mu maboko turemereye arigerageza kuduterura.

Ni umuntu wirabura, wambaye ishati y'umweru, ishanete n'impeta, n'ipantaro y'umukara, wicaye ku ntebe ari gukora imyitozo ngororamubiri y'amaboko.

Ni ifoto y'igikoresho cyo kwa muganga, abaganga bifashisha mu kureba uko umutima w'umurwayi uhagaze barambitse igice kimwe ku mutima, ikindi bakagiseseka mu matwi yabo.

Ni umugore w'umwirabura wambaye ijiri y'ubururu ufite icyuma ari gusuzuma umwana mutoya uraramye bicaye mu ntebe y'umukara.

Ni amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ku ruhande rwarwo hari ibinini by'umweru n'iby'umuhondo n'urushinge ruriho imibare itandukanye.

Ni umugabo wicaye mu muhanda w'umwirabura wambaye imyenda y'umukara wicaye mu muhanda, uri kunywa amazi ari mu icupa ry'umweru afite n'akantu k'icyatsi ku kuboko.

Ni umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'umukara n'umweru, imisatsi mu maso, ateye intambwe ibiganza imbere, ari gukoma amashyi.

Ni ifoto y'inkweto nshyashya ihagaze hasi y'umukara, iriho igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda ariko atagaragara neza.

Ni icyuma gifite irangi ry'umweru cyo kwa muganga, kinyuzwamo abarwayi kugira ngo barebe uburwayi bafite bamenye uko babafasha, kiri ahantu hari na etajeri irimo ibintu bitandukanye bisa umukara, iruhande rwabo hateretse ikindi kintu cy'ubururu.

Ni umugore yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye ararambuye n'amaguru, arashaka gukora ku birenge yinanura.

Ni umugabo wambaye ijiri y'icyatsi kibisi, uri gufasha uwundi w'isengeri y'umutuku iriho imibare wavunitse ari mu mumasiganwa yo kwiruka.

Ni abantu babiri bari kwirukanka, bakora imyitozo ngororamubiri mu dukabutura tugufi tw'umukara, amasengeri y'ubururu n'umukara n'umweru, bafite amacupa y'amazi.

Ni umukobwa wirabura uraramye, ucumuye amatwi, uri kunywa amazi mu icupa risu umukara, yambaye isengeri n'akayiswime yiteye ku rutugu.

Ni umuntu wirabura wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru, usobekeranyije amaboko uri gukora imyitozo ngororamubiri, yifashishije agatambaro.

Ni abagabo babiri bari kwiruka bafite imipira mu ntoki, umwe yambaye ikabutura y'umukara undi yambaye shokora.

Ni igare ry'amapine abiri, ry'umukara ryifashishwa n'umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda akaba yabasha kwitwara cyangwa agatwarwa n'undi muntu kugira ngo amworohereze kugenda.

Ni igikoresho cy'ikibumbano kibumbye nk'umuntu cyifashisha mu kwigisha abantu uburyo batabara bagenzi babo mu gihe bahuye n'ibibazo cyangwa n'impanuka.

Ni abagabo babiri baryamye ku bitanda kuri motola z'umukara bari gukorerwa imyitozo ngororamubiri, ariko umwe ari gufashwa na babiri na ho undi yitaweho n'umwe.

Ni abantu babiri, umugabo wirabura n'umugore w'umuzungu bahagaze baryamanyeho. Bari kugotomera amazi ari mu icupa cy'umweru ripfundikizwa umupfundikizo w'ubururu.

Ni umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, ahagaze yambaye isengeri y'icyatsi, yitegeye izuba ufite ibisuko.

Ni umukobwa ufite isume y'umweru ku rutugu, wirabura, uri kunywa amazi, akoresheje icupa, rifite umupfundikizo w'ubururu n'imibare ku ruhande.

Ni umusore uri kuny amazi mu icupa ripfundikije umupfundikizo w'ubururu yambaye isaha umupira w'umweru, n'utwuma bashyira mu matwi.

Ni umuntu wambaye ga z'umukara uri gusuka amazi mu bikoresho by'ibirahure ayavana mu ijaga ayasuka mu gikombe, ariko kikaba kitari cyuzura, gicagase.

Ni ifoto y'ibikapu by'umutuku, biriho imigozi y'umukara, kimwe kirafunze igifunguye kirimo imiti yifashishwa mu kuvura umuntu wakomeretse ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni abana b'abirabura, bari mu kibuga, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, abari gukoma amashyi n'abandi bari gusimbuka bishimiye intsinzi bagize.

Ni ifoto igaragaza igikoresho cyo kwa muganga abaganga bakoresha bareba mu mutima w'umuntu uko uhagaze, n'umupira wo gukina n'inkweto bifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni ibihingwa bitandukanye harimo imboga n'imbuto nka pome na metero bakoresha bareba uburebure n'utundi dukoresho bakoresha bakora imyitozo ngororamubiri.

Ni umukobwa uhagaze agaragaza igice cy'inyuma, wambaye ipantaro y'umukara, agasengeri k'umweru, ku mugezi izuba ririmo kuva.

Ni umuti uri mukarito y'umuhondo, wanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza y'icyatsi kibisi, wifashishwa mu kuvura abantu bagize indwara bari gukora imyitozo ngororamubiri.

abantu babiri bambaye amakabutura y'umukara inkweto n'imipira y'ubururu n'umuhondo bari mu myitozo ngororamubiri umwe ari kugendesha amaguru mu twuma duhagaze ndi afite umupira wo gukina.

N'icyapa kiriho abantu bari mu bikorwa bitandukanye, uvuye mu bwiherero, uri kwikora ku mazuru uri gukaraba akoresheje amazi meza, uwihanagura nuri gukaraba.

Ni umukobwa wirabura wari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye yambaye imyenda y'umukara, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi ry'ubururu.

Ni ikizeru kirimo amafoto ane, umuntu uri kwirukanka m'ubururu, umusaraba mu ibara ry'umutuku, ibiganza bibiri.

Ni icyapa kiriho abantu benshi bari mu bikorwa bitandukanye, uri kunywa amazi, uri gukora imyitozo ngororamubiri, abari gukina bifashishije imipira n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ni umusore w'umwirabura, wafashwe ifoto izuba riri kurasa araramye ari kunywa amazi ari mu icupa ryenda gushiramo amazi.

Ni abahungu babiri bambaye amajiri y'umutuku bateruye uwambaye umupira w'umuhondo usa nkaho ari kubabara, inyuma yaho hari abagabo bambaye imipira y'umweru, n'ingofero z'umweru, n'amapantaro y'umukara.

Ni imbuto ziteretse hasi ziri mu mabara y'umutuku, umukara n'icyatsi kibisi n'ikirahure kirimo ikinyobwa cy'umuhondo n'imashini yifashisha mu myitozo ngororamubiri.

Ni umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umutuku, yicaye ku gatapi kabugenewe, afashe ibirenge.

Ni ifoto iri kwerekana igikoresho gikoreshwa mu myitozo ngororamubiri cyitwa Core Max, gifite amabara y'umukara, ay'umweru n'ay'icyatsi kibisi, yerekana ko kigura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri by'Amanyarwanda.

Ni abantu birabura bahagaze bari gukora imyitozo ngororamubiri, banaga amaboko bambaye imyenda y'amabara atandukanye icyatsi, ubururu, umutuku, masogisi.

Ni umuntu w'umwirabura w'umugore uri gukora imwitozo ngororamubiri yicaye, ku ruhande hateretse imashini, utuntu twa move, icupa ryo kunywa, ku ruhande hari intebe z'umweru zegamirwa.

Ni akagare gafite amapine y'umukara gasa umutuku kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri y'amaguru bakoresha bagenda.

Ni umuti wakozwe hakoreshejwe ibimera gakondo, uri mu icupa ry'umweru, inyuma yaho handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, mu ibara ry'ubururu na shokora.

Ni umuti uri mu icupa ry'umweruru upfundikiye, uriho igipapuro kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, handikishijeho amagambo y'umweru atandukanye.

Ni ifoto y'imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo iri mu macupa y'amabara atandukanye, umuhondo, umweru n'umukara yakozwe hifashishijwe igitakakarubamba.

Ni imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, ikiri hasi ku butaka harimo n'indi mu mbehe zikozwe mu biti bagiye gusekura.

Ni umuti ufashwe n'umuntu w'inzobe, uri mu icupa ry'umweru, ririho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'igishushanyo cy'igikakarubamba.

Ni imiti gakondo irimo ibibini, mu ikarito rifite amabara atandukanye, harimo icyatsi kibisi n'ubururu n'amagambo yanditse ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni imiti gakondo iri mu macupa ya palasitike n'ibirahure muri etajeri, iruhande rwaho hahagaze umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Ni ifoto igaragaza urubuto rumeze nk'ipapayi, rusatuye mo imbere harimo imbuto z'umukara ntoya n'utundi tuntu dutoya tw'umuhondo.

Ni umuti uvura indwara ya amibe, uri mu icupa ry'umweru ririho igipapuro kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, n'umuntu uri kwikanda mu nda.

Ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, iri mu macupa y'umuhondo n'umweru no mu ikarito, ku ruhande handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ariko atagaragara neza.

Ni imiti ikorwa muri mango no mu gikakarubamba iri mu macupa biratandukanye rimwe ripfundikijwe umupfundikizo w'umukara, n'indi ipfundikije umupfundikizo w'umuhondo, yose ari umwero.

Ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo yafotowe iri muri jaride hanze. Iri mu mu macupa y'amabara atandukanye; iry'umuhondo, ubururu n'umweru byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni umuti ukorwa hifashishijwe ikimera gakondo, igikakarubamba, uri mu gacupa kariho amabara y'icyatsi kibisi n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ariko atagaragara neza.

Ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo yakozwe mu kimera cy'igikakarubamba, iri mu macupa ari mu ibara ry'umukara, umweru, inyuma yaho handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni icupa ririmo umuti gakondo yifashisha mu buvuzi ry'umweru ripfundikiye ririho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza as ibara ry'umukara hejuru hari akamenyetso kameze nk'inkoko.

Ni umuntu w'umwirabura uri gusekura igihingwa cy'icyatsi kibisi giteretse ku mukeka uriho ibindi bintu, bisa umukara, umutuku n'umuhondo.

Ni umuti wa gakondo uhinze ahantu usa icyatsi kibisi, ufite indabo z'umutuku, umuhondo n'umweru abanyarwanda bifashisha mu kwivura inkorora na giripe.

Ni ifoto y'ibihingwa by'imbuto igitunguru, indimu, n'undi muti uri kuruhande uri mu ibara ry'icyatsi kibisi wometseho agapapuro kariho amagambo atagaragara neza.

Ni inyandiko igaragaza ibimera bitandukanye, harimo ibyo icyatsi bifite indabyo z'umuhondo, bigiye bitandukanyijwe n'amagambo abyanditseho, abisobanura.

Ni ikimera kiri ku butaka kirandaranda gifite amabara y'icyatsi kibisi n'indabyo z'umutuku cyifashishwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zitandukanye.

Ni ifoto iri kugaragaza ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi bikorwa ku muhanda, munzu no mu isoko, bacuruza ibimera by'ibyatsi.

Ni umuti ukoresha mu buvuzi gakondo, ufite ibara ry'icyatsi kibisi, ibibaba binanutse ariko bisongoye ku mpande, gihinze hagati rwagati y'ibindi bimera.

Ni ifoto igaragaza ibihingwa byifashisha mu buvuzi gakondo by'icyatsi kibisi harimo igikakarubamba n'ibindi bifite indabyo z'umuhondo n'ubururu biri mu bikombe bitandukanye.

Ni umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, uri mu icupa no mu ikarito, wanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye mu rurimi rw'icyongereza.

Ni imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo ikorwa mu gikakarubamba iri mu macupa y'amabara atandukanye umuhondo, umweru, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Ni imiti gakondo itetse mu mbaho iri mu macupa, ari mu mabara atandukanye iriho ibipapuro byandikishijeho amagambo ari mu rurimi rw'igiswahili.

Ni umuti w'ifu w'icyatsi kibisi, wifashisha mu buvuzi gakondo, bavura abantu indwara zitandukanye harimo mu nda, uri mu kintu cy'umweru.

Ni imiti gakondo itetse hasi iri mu macupa atandukanye maremare n'amagufi ifite y'umweru n'ubururu yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni imiti iri muri etajeri iri mu macupa, mu ikarito, ifite amabara atandukanye iy'umutuku, iy'icyatsi, iy'umweru.

Ni icupa ry'umweru ricuritse ririmo umuti gakondo w'igikakarubamba ryandikishijeho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza y'umukara n'icyatsi kibisi.

Ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo iri mu ikarito no mu macupa, ashushanyijeho igikakarubamba n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ni imiti gakondo iri mu ducupa mu dukarito tw'amabara atandukanye, umuhondo, umutuku n'imipfundikizo.

Ni igishashi kijyamo amagarama cumi n'arindwi y'ifu y'igikoma, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza y'ubururu.

Ni imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo iri mu macupa y'amabara atandukanye; umweru, umuhondo. Inyuma yaho handitseho amagambo atagaragara neza.

Ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo ikorwa mu gikakarubamba iri mu macupa y'amabara atandukanye ubururu, umweru n'icyatsi kibisi yanditseho amagambo atagaragara neza.